Iki ni ikigega. Iki kigega ni uruziga. Iki kigega cyuzuye amazi. Iki kigega gifite utwuma twinshi tugifasheho.

Aha ni kwa muganga, hari babyeyi benshi bicaye hanze, aba babyeyi bose bafite abana b'impinja bazanye kwa muganga.

Hari gukorwa ubuvuzi, hari abaganga bicaye bari kwakira umurwayi, aba baganga ni babiri ndetse hari n'undi wa gatatu wegereye umurwayi, inyuma yabo hari umusaza utegerejwe na we kuvurwa.

Ni kwa muganga. Hari abantu benshi, bategereje kubonana na muganga. Hari umugore ufite umwana mu ntoki, ufite n'ibyangombwa, ugiye kubonana na muganga.

Ni mu cyumba cy'inama, hari abantu bari imbere bari gutanga ikiganiro. Hari n'abantu benshi bakurikiye, iyi nama, ni inama y'igihugu igamije gutera inkunga ubuvuzi.

Ni mu cyumba. Iki cyumba kiri kuberamo inama. Harimo abantu benshi baje muri iyi nama. Bafite mudasobwa, bafite na porojegiteri bari kwifashisha mu nama.

Hano bari mu gikorwa cyo gukingira. Hari umwana muto w'uruhinja, bari gutera urushinge. Hari umuganga uri kumutera urushinge. Uyu mwana ateruwe n'umubyeyi we.

Ni ku ivomero, hari abantu benshi bakikije ivomero, hari umugore uri kuvomesha, imbere ye hari umwana uri kuvoma ufite amajerekani, bakikijwe n'abandi bantu naho baje kuvoma.

Aha ni ku iriba. Hari abantu baje ku iriba. Kuri iri riba hariho umwana muto w'umuhungu. Uyu mwana ateze amajerekani atatu ngo avome. Iruhande rwe akikijwe n'abantu benshi.

Aha ni mu kibaya, muri iki kibaya hari abana bakikije uruzi, umwe muri aba bana afite amacupa arimo amazi mu ntoki, uyu mwana ni umunyeshuri, hari abandi bana benshi bamuri inyuma.

Ni ku ivomero rusange. Hari abantu benshi baje kuvoma. Muri bo harimo abana bato, harimo n'umugore. Umukobwa ari kubavomera.

Aha ni mu cyumba kiri kuberamo inama, iyi nama irimo imbaga nini y'abantu, aba bantu bose baricaye barakurikiye.

Aha ni kwa muganga, hari umubyeyi uteruye umwana muto wazanye umwana kumuvuza, hari umuganga uri gupfuka ku mutwe w'uyu mwana.

Ni mu busitani mu itente, muri iyi tente harimo abantu benshi bambaye amataburiya y'ubururu, bose barahagaze, bose bari gukoma amashyi barishimye.

Aha ni kwa muganga. Ni mu cyumba kirimo ibyuma bifashisha kwa muganga. Muri iki cyumba harimo abantu bambaye udupfukamunwa, bambaye n'udutambaro mu mutwe. By'umwihariko bambaye n'imyenda y'icyatsi.

Ni mu ihema. Muri iri hema hari kuberamo ibikorwa by'ubuvuzi. Hari umubyeyi wazanye umwana muto kumuvuza. Hari umuntu uri kumwitaho. Hari n'umuganga uri kubakira.

Ni mu ihema, muri iri hema harimo abantu benshi, harimo umwana muto w'uruhinja baryamishije ku gatanda, hari abantu benshi bamushungereye.

Ni ikiganiro. Iki kiganiro, kiri kubera mu busitani. Abantu bicaye mu ihema. Umugabo umwe arahagaze, ari gutanga ikiganiro.

Hano ni imbere y'inzu hari abantu bicaye bari mu nama, hari umuntu uhagaze imbere uri gutanga ikiganiro.

Aba ni abanyeshuri, biga mu mashuri abanza, aba bana b'abanyeshuri bari imbere y'utugega dutoya duteretse ku meza, bafite ibikombe bari kunywa amazi.

Ni kwa muganga hari abaganga batatu bicaye ku meza, bari kwandika ibyo bakuye mu mafishi babyandika mu gitabo.

Ni abantu bicaye hanze, hari umujyanama w'ubuzima w'umugore, uri kuganiriza umugore n'umugabo bubatse.

Aha ni ku ivomero. Kuri iri vomero, hari injerekani nyinshi, zigiye kuvomwa. Hari umugore, uri kuvoma. Hari n'abandi bagore babiri, bategereje kuvoma.

Ni mu nama, hari abantu benshi bari bitabiriye inama, aba bantu bose bahagaze hamwe, aba bantu bari gufata ifoto, iyi foto yafashwe hasojwe inama.

Ni kwa muganga hari abantu bicaye hanze kwa muganga, hejuru yabo hamanitseho ibishushanyo bitandukanye byifashishwa kwa muganga mu bukangurambaga.

Ni ifoto yafashwe nyuma y'inama. Iyi nama yari yitabiriwe n'abayobozi benshi batandukanye baturutse ku isi hose. Iyi nama yari iya CommomWealth. Iyi nama yabereye i Kigali mu Rwanda.

Aha ni kwa muganga, hari abaganga benshi bahagaze hamwe mu bitaro, bagaragiye umugore, bose bazamuye ibiganza byabo baremeza.

Ni abantu bari kumwe, aba bantu bari muzu, aba bantu bari kubyina imbyino gakondo, aba bantu bateze amaboko, aba bantu biganjemo abagore.

Aha ni ku ivomero, kuri irivomero hariho abantu benshi baje kuvoma, bamwe muri bo bafite indobo abandi bafite amajerekani abandi bafite utubido.

Ni kwa muganga, hari umubyeyi wazanye umwana w'uruhinja kwa muganga, uyu mubyeyi akikiye uyu mwana, umuganga arunamye ari gutamika imiti uyu mwana.

Hano ni mu cyuzi. Hari abana babiri baje kuvoma muri iki cyuzi. Bafite injerekani ndetse n'akabido. Bafashe injerekani zabo bazidubika muri icyo cyuzi, kugira ngo bavome amazi yacyo.

Ni mu ishuri, hari abanyeshuri bicaye mu ishuri , aba banyeshuri bari kurya ibiryo bibateretse imbere, inyuma yaho hari ikibaho.

Ikirere kirijimye umwana muto y'unamye mu cyuzi ari kuvoma, afite injerekani y'umuhondo ari kuvoma amazi mabi, yambaye isengeri y'umweru n'ikabutura irimo amabara y'ubururu, umuhondo n'icyatsi.

Aha ni ku ivomero, hari umwana muto w'umuhungu, uyu mwana ateze ibiganza byombi munsi y'ivomero, iruhande rwe hari injerekani nyinshi, inyuma ye hakikijwe n'agashyamba.

Ni ku ruzitiro, uru ruzitiro ni urwa Unicef, imbere y'uru ruzitiro hari abana benshi batoya. Aba bana ni abanyeshuri, inyuma yabo hari abantu bakuru bari kumwe nabo.

Aha ni mu mbuga, muri iyi mbuga harimo umuntu ukora kwa muganga, uyu muntu ari kugenda apima abantu, umuntu ugezweho ari kumupima amaraso.

Aha ni mu nama, iyi nama yiga ku kurwanya icyorezo cya virusi ya maliburu, imbere hari abayobozi bari gutanga ikiganiro hari n'abantu babakurikiye. Iyi nama yabereye i Kigali ku itariki makumyabiri nzeri bibiri na makumyabiri na kane.

Aha ni ku ivomero. Hari abana benshi baje kuvoma kuri iri vomero, hari n'umugore bari kumwe, hari amabase bari kuvomera, iri vomero rikikijwe n'amazu.

Aha ni ku ivomero rusange. Hari umwana muto w'umuhungu uri kuvoma amazi, uri gukaraba intoki. Iri vomero rikikijwe n'ibiti ndetse n'imbuga. Hari indobo y'ubururu, yuzuye amazi.

Aha ni mu mbuga, muri iyi mbuga hateyemoihema, muri yi mbuga harimo abantu benshi bahagaze bari bitabiriye ubukangurambaga.

Ni kwa muganga, umuhanzi uririmba indirimbo zo kuramya, Israel Mbonyi afite umwana muto mu ntoki. Uyu mwana ahagaze ku munzani, bari kumupima ibiro.

Hano ni ku ivomero. Hari umwana muto, wicaye, uri gukaraba intoki ku ivomero. Imbere ye, hari amajerekani. Inyuma ye, hari imbuga ndetse n'ishyamba.

Aha ni imbere y'inzu hari umusore muto uri gukarabira mu ndobo, imbere ye hari umwana muto w'umukobwa ufite ikaneti.

Ni kwa muganga, hari umuntu uteze ukuboko kwe kw'ibumoso, hari umuganga uri kumutera urushinge kuri uko kuboko.

Ni mu kigo cy'amashuri. Muri iki kigo cy'amashuri hari gahunda yo gukingira, hari umuganga uri gukingira abana b'abanyeshuri.

Aha ni mu nama. Hari abantu benshi bicaye, bari mu nama. Bose bari kureba imbere. Harimo ababuze aho bicara, bahagaze.

Ni kwa muganga. Ni mu cyumba kizwi, nka laboratwari. Hari umukobwa bari gufata amaraso. Umuganga uri kumuvura, nawe ni umugore. Inyuma yabo hari undi mugore, nawe w'umuganga.

Aha ni kwa muganga, hari umukobwa wicaye ku gitanda kwa muganga, hari abaganga babiri bamukikije, bari kumwambika udukoresho two kumusuzuma.

Aha ni mu kiganiro. Hari abantu benshi bicaye mu ihema. Aba bantu bari mu kiganiro.

Aha ni ku kibuga, kuri iki kibuga hateye amahema, muri aya mahema baje gukoramo gusuzuma abaturage batuye muri aka gace.

Hari abantu benshi bari kumwe. Abenshi muri bo bambaye amataburiya y'ubururu. Abo bantu bakikije abagabo bambaye amakoti. Inyuma yabo hari ibiti.

Aha ni ku ivomero, hari umwana muto waje kuvoma, uyu mwana yitwaje amajerekani ane iri vomero rikikijwe n'ibyatsi.

Aha ni ku kigo nderabuzima cya Mayange hari abajyanama b'ubuzima bari imbere y'iki kigo, bari gukoma amashyi ndetse babyina banavugiriza impundu umuyobozi.

Aha ni ku kigo cy'amashuri hari abana bato b'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, aba bana bari ku ivomero ryo mu kigo. Aba bana bari kunywa amazi yo kuri iri vomera abandi bari gukaraba intoki.

Ni mu nama, hari abantu benshi bakikije ameza y'uruziga, aba bantu bari kuganira, hari n'abandi benshi bari inyuma yabo ku yandi meza hari n'abahagaze.

Ni kwa muganga, hari ameza ariho ibikoresho ndetse n'imiti byo kwa muganga, hari abantu babiri bari gushyiraho ibi bikoresho kuri aya meza.

Aha ni ku ivuriro, hari abantu bahagaze imbere y'iri vuriro, aba bantu baregeranye, barahagaze, bari gufata ifoto bari kumwe.

Ni ku ivomero hari umugore waje kuvoma, uyu mugore afite umwana mu ntoki w'uruhinja. Uyu mugore ari kuvomera amazi mu ndobo y'umukara.

Ni mu nzu, muri iyi nzu hari abantu benshi bakikije ameza, hari umuganga uri kwakira abarwayi ari kwandika, afite imiti iruhande rwe.

Ni ku ivomero, hari umwana uteze ibiganza byombi ku ivomero, uyu mwana ari kunywa amazi yo ku ivomero, inyumaye hari abantu benshi, hakikijwe n'intebe.

Ni hanze ku mbuga, kuri iyi mbuga hariho ameza, aya meza yubitseho ibyombo birimo amasahani, ibikombe ndetse n'ibase bimaze kozwa, muri iyi mbuga harimo n'insina.

Uyu ni umugezi. Muri uyu mugezi hari umukobwa ufite indobo, uri kuwuvomamo. Iruhande rwe, hari umwana muto uhicaye. Inyuma ye, hari undi muntu na we uhagaze.

Ni mu nama, hari abantu benshi bari mu nama, aba bantu baricaye barakurikiye.

Aha ni mu muhanda rwagati, uyu muhanda ukikijwe n'ibiti byinshi. Mu muhanda rwagati harimo abantu benshi, benshi muri bo ni abajyanama b'ubuzima. Bari kumwe n'umuyobozi w'Umuryango w'Abibumbye wita ku Buzima.

Ni kwa muganga hari itsinda ry'abaganga riri kubaga umurwayi, aba baganga bambaye imyenda y'icyatsi ndetse n'udupfukamunwa by'umwihariko bambaye na ga barikuga umurwayi w'umugabo.

Ni ku manywa, ni mu mbuga imbere y'inzu, muri iyi mbuga harimo abagore benshi, bamwe muri aba bagore bambaye amajire y'icyatsi, abandi bambaye bisanzwe.

Aha ni ku ivomero, iri vomero ryubatswe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana ndetse n'impunzi, kuri iri vomero hariho abagore baje kuvoma.

Ni ku manywa, hari umuganga w'umugabo, uri kuganira n'umurwayi, uyu murwayi ni umugabo ukuze w'umuyisilamu, inyuma yabo hari umwana muto.

Ni mu nyubako, muri iyi nyubako harimo abantu benshi, harimo abasore babiri bari kuganira, bakikijwe n'abandi bantu benshi.

Aha ni mu nama, hari abantu benshi bakoze uruziga, aba bantu bari kungurana ibitekerezo, aba bantu ni ingeri zitandukanye harimo abagabo, abagore, abakobwa ndetse n'abasore.

Ni mu nzu hari umugore uteruye umwana muto, imbere ye hari umuntu ukora kwa muganga hari umunzani uri hagati umanitse. Uyu mwana bagiye kumupima ibiro.

Aha ni ku ivomero. Kuri iri vomero hari umugore waje kuvoma. Uyu mugore yitwaje injerekani.

Hano ni ku iriba. Kuri iri riba hari abana benshi. Aba bana baje kuvoma. Bafite injerekani. Inyuma yabo hari ubusitani.

Aha ni ku ivomero, hari umwana mutoya uteze amaboko uri kunywa amazi yo ku ivomero, munsi ye hari indobo yujuje amazi.

Ni mu busitani bw'ikigo cy'amashuri, hari abana bato b'abanyeshuri bagiye gukaraba intoki, bamaze kwisiga isabune.

Aha ni kwa muganga, ni mu cyumba kiberamo operasiyo, iki cyumba kirimo imashini, iki cyumba kirimo n'abaganga.

Ni abana bato b'abanyeshuri, aba bana bafite ibikombe bari kuvoma amazi ku kigega, aya mazi bari kuyanywa.

Ni umugore uri imbere, uyu mugore afite indangururamajwi ari kuganiriza abantu, inyuma ye hari ibishushanyo bitandukanye.

Aha ni ku iriba hari umwana muto uri ku iriba, uyu mwana ateza ikiganza ari kuvoma amazi, uyu mwana ari kwimena amazi mu maso, uyu mwana arishimye.

Aha ni ku muhanda. Hicaye umugabo wambaye imyenda isa nabi. Uyu mugabo arasabiriza. Inyuma ye hari abantu bari kugenda.

Iyi ni inyandiko, iyi nyandiko ishushanyijeho abantu babiri, aba bantu bambaye udupfukamunwa, kuri iyi nyandiko handitseho ko urubuga rwa Wellness rwatangiye gukora.

Uyu ni umugore warakaye, yababaye, yarakaye yakunje isura, ntabwo yishimye.

Ni ku meza. Hari babiri bari ku meza. Umwe yifashe mapfubyi, undi amukozeho, ari kumuhumuriza.

Ni kumanywa, kumuhanda hari umugabo wumusazi wicaye kumuhanda, uyu mugabo yambaye imyenda yacitse kandi isa nabi, ikindi afite amazi mu ishashi.

Ni mu nzu. Iyi nzu irashaje harimo umugore wicaye ku ntebe. Imbere ye hari umusambi n'idirishya ry'inzu rirakinguye.

Ni umusore, uyu musore ariguseka, uyu musore afite ubwanwa, uyu musore yambaye umupira w'umuhondo.

Ni ku kibuga haparitse imodoka. Iyi modoka isize irangi ry'umweru, iyi modoka yifashishwa nk'ibitaro byimukanwa byifashishwa mu kuvura ubuzima bwo mu mutwe, mu karere ka Bugesera.

Aba ni abantu benshi, aba bantu bamwe bicaye ku ntebe abandi barahagaze, aba bantu bari gufata ifoto bari kumwe.

Ni mu twatsi, hari abantu benshi bicaye ku mbuga, buri umwe ari kuganira n'umuvuzi, inyuma yabo hari imodoka, iyi modoka yifashishwa nk'ibitaro byimurwa, by'umwihariko mu kwita ku buvuzi bw'indwara zo mu mutwe.

iki ni ikirango. Ni ikirango cy'ishyirahamwe ry'abanyeshuri b'abaforomo bita ku buzima bwo mu mutwe.

Ni mu nama, hari abantu benshi bari mu nama, bicaye imbere y'ameza, hari umugore ufite indangururamajwi uri kuvuga.

Ni imbere y'inzu, imbere y'iyi nzu hari abana bambaye imipira y'ubururu, aba bana bakikije umugabo ndetse n'abandi bashyitsi baje kubareba.

Ni imbere y'inzu, hari umukobwa uri imbere y'iyi nzu, uyu mukobwa afite umusatsi natirere, uyu mukobwa yambaye umupira wo kwifubika w'iroza mo imbere yambaye umupira w'ubururu bwijimye.

Ni umusore, uyu musore ari kurira, uyu musore afite agahinda, uyu musore amaso ye yatukuye.

Aha ni mu muhanda rwagati hari umugabo wicaye hasi, uyu mugabo ni igisambo, uyu mugabo bamufashe yibye, yambaye amapingu inyuma ye hari umuporisi akikijwe n'abantu benshi bamushungereye.

Ni abantu benshi. Aba bantu, barahagaze, bari kumwe. Aba bantu, bakikije inyandiko bafite mu ntoki. Inyuma yabo, hari imodoka ndetse n'ihema.

Muri uyu muhanda harimo umugabo w'umusazi usutamye mu muhanda. Uyu mugabo yambaye imyenda isa nabi, inyuma ye hari inzu, iyi nzu irashaje, munsi y'iyi nzu hari umugabo wicaye ku igare.

Ni mu ihema, muri iri hema hahagazemo abantu benshi, imbere yabo bari kumurika ibikoresho byinshi, byifashishwa bapima cyangwa bakora ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe.

Ni ku manywa ku kigo cy'amashuri abanza mu kibuga rwagati. Hari abana benshi bishimye bari gupepera. Abo bana bambaye amashati y'ubururu bwerurutse, hasi bambaye ubururu bwijimye.

Ni inama. Iyi nama, yabaye ku munsi mpuzamahanga wo kwita ku buzima bwo mu mutwe. Imbere, hari abantu baba bari gutanga ikiganiro. Hari n'abandi benshi, bari babakurikiye.

Ni mu nzu. Muri iyi nzu hari umugore wicaye ku gatebe. Iyi nzu irashaje. Iyi nzu yubakishijwe ibitaka. Imbere y'uyu mugore hari agakeka. Idirishya rye rirafunguye.

Ni ku manywa mu busitani buri imbere y'inzu ya Karayesi, iyi Karayesi ni iyaba furere b'impuhwe, iyi nzu ikikijwe n'ibiti , iyi nzu isize ibara ry'i roza ndetse n'icyatsi cyijimye, ibirahure byayo ni mu mukara ,inzugi zayo ni umweru.

Ni ku mihanda. Ni ku muhanda usa nabi uriho imyanda. Hari umugabo wambaye umupira utukura n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara. Imyenda yose yambaye isa nabi. Uwo mugabo yegamye ku rukuta.

Ni mu nama, muri iyi nama harimo abantu benshi bicaye hamwe, aba bantu bakurikiranye iyi nama.

Aha ni mu nzu, muri iyi nzu hari kuberamo inama hari abantu benshi bitabiriye iyi nama, hari umugore uri imbere uri gutanga ikiganiro.

Iyi ni inyubako. Iyi nyubako ifite amabaraza imbere yayo. Iyi nyubako yifashishwa mu kuvura abafite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe.

Ni ku mabaraza imbere y'inzu, hari abantu benshi bahagaze hamwe, aba bantu bari gufata ifoto y'urwibutso, aba bantu bavuye mu nama yiga ku kubaka amahoro ndetse n'ubutabera.

Ni umuntu, uyu muntu arababaye, uyu muntu ari kurira, uyu muntu yipfutse igitambaro mu maso.

Uyu ngore wicaye hasi, uyu mugore ararambije akikiye umwana muto w'uruhinja, inyuma ye hari abandi bana babiri, uyu mugore yari ari kugosora, inyuma ye hari inzu ishaje, uyu mugore yicaye ku mukeka.

Ni mu busitani hari abantu benshi bari gutera ibiti aba bantu abenshi muri bo bambaye imipira y'ubururu.

Ni hanze mu mbuga. Muri iyi mbuga, hateyemo amahema. Aya mahema, harimo abantu benshi bakora mu nzego z'ubuvuzi, bahateye ameza. Aba bantu, bari kwakira abarwayi bakabasuzuma.

Ni mu nzira, hari umukobwa usindagijwe n'umugabo, iruhande rwe hari umugore na we umusindagije.

Ni mu muhanda. Harimo abagore batatu bari mu muhanda. Umwe afite umwana mu ntoki. Aba bagore bose bishingikirije uduti. Inyuma yabo hari umusozi.

Ni mu muhanda muri uyu muhanda harimo abana benshi babayeho mu buzima bubi, aba bana bari kurira, bambaye imyenda isa nabi, aba bana bari gusabiriza.

Ni ku manywa mu kimoteri. Muri iki kimoteri hahagaze umugabo w'umusazi, uyu mugabo yambaye imyenda isa nabi. Uyu mugabo yambaye amacupa ndetse n'ibindi bikoresho bya purasitike kuva mu gatuza ke kugera ku maguru ye.

Uyu ni umugabo wicaye hasi, uyu mugabo ni umusazi, uyu mugabo yambaye ipine, uyu mugabo yambaye imyenda isa nabi, uyu mugabo arasa nabi, ntaheruka kwiyitaho, ntaheruka no gukaraba, inyuma ye hari abantu.

Aha ni ku rukuta rwo kwa muganga kuri uru rukuta hariho ibikoresho, ibi bikoresho byose bikoreshwa n'amashanyarazi, ibi bikoresho byifashishwa mu kuvura amenyo.

Ni kwa muganga, aha ni mu cyumba kiberamo operasiyo zo kwa muganga, by'umwihariko niho bavurira amenyo.

Ni umugabo, uyu mugabo afite akadodo mu ntoki, aka kadodo kifashishwa mu gukura ibiryo biba byasigaye hagati y'amenyo, uyu mugabo yagashyize hagati y'amenyo.

Uyu ni umwana muto; uyu mwana muto ari kwa muganga. Uyu mwana muto, hari umuganga uri kumuvura amenyo.

Ni mu ishuri, hari abanyeshuri benshi bari mu ishuri, aba banyeshuri nabo mu mashuri abanza, abanyeshuri bose bazamuye amaboko barishimye, ndetse bafite n'amakaye mu ntoki.

Aha ni kwa muganga. Hari umusore uryamye. Umuganga afashe iryinyo agiye kumushyiriraho risimbura iryo yari afite ritameze neza.

Hari gukorwa ibikorwa by'ubuvuzi, ibi bikorwa by'umwihariko ni ibyo kwita ku menyo, hari abaganga bari gusuzuma amenyo y'abana bato, aba bana bari mu bukangurambaga bw'ikigo cyitwa Tubiteho.

Hano ni kwa muganga, ni mu cyumba kiberamo operasiyo, izo operasiyo zijyanye n'ubuvuzi bw'amenyo.

Uyu ni umusore wishimye yasetse, afite amenyo y'umweru mazima, amenyo ye ayitaho neza.

Aha ni kwa muganga. Hari umwana muto uryamye ku gitanda. Hari umuganga umukikije. Uyu muganga ari kumuvura amenyo.

Ni umukobwa upfutse amaso, uyu mukobwa yasetse, uyu mukobwa yifashishije intoki ze kugira ngo atwereke ko amenyo ye ari umweru.

Ni kwa muganga. Hari umusore uryamye, bari kuvura amenyo. Hari umuganga ufite inshinge n'utundi twuma dutandukanye, uri kuvura uyu musore.

Uyu ni umugabo, uyu mugabo ari kwireba mu ndorerwamo. Uyu mugabo afite akadodo mu ntoki ze, aka kadodo ari kukifashisha akuramo ibiryo byasigaye mu menyo.

Ni umusore, uyu musore ari kwireba mu ndorerwamo, uyu musore arishimye, uyu musore afite akadodo mu ntoki, aka kadodo ari kukifashisha akuramo ibiryo byasigaye mu kanwa.

Ni umugabo wishimye, uyu mugabo afite akadodo mu ntoki. Aka kadodo kamufasha gukuramo ibiryo byasigaye hagati y'amenyo. Uyu mugabo arishimye.

Aha ni mu ishuri. Hari umwana bari kwerekera uko wasukura amenyo. Uri kubimwereka ni umuganga. Inyuma yabo hari abandi bantu.

Hano ni kwa muganga, ni mu cyumba cyo kwa muganga, muri iki cyumba harimo agatanda ndetse n'intebe, muri iki cyumba ni ho bavurira indwara z'amenyo.

Uyu ni umugabo, uyu mugabo ari kwireba mu ndorerwamo, uyu mugabo afite akadodo mu ntoki, aka kadodo akifashisha akura mu menyo ibiryo byasigayemo.

Umuganga arikumanika ibishushanyo, ibi bishushanyo ni ibigaragaza amenyo y'umuntu.

Ni kwa muganga, hari umugore uryamye bari kuvura amenyo, ni abaganga babiri bari kumuvura.

Aba ni abana bato biga mu mashuri y'incuke, aba bana bafite uburoso bw'amenyo bari kwiborosa ndetse bafite n'udukombe turimo amazi mu ntoki.

Aha ni kwa muganga ni mucyumba gikorerwamo operasiyo, muri iki cyumba harimo imashini nyinshi, izi mashini zifashishwa basuzuma abarwayi.

Uyu ni umugabo, uyu mugabo arishimye, uyu mugabo afite akadodo mu ntoki, aka kadodo kamufasha gukuramo ibiryo, biba byagiye bisigara hagati y'amenyo.

Uyu ni umukobwa, uyu mukobwa ari gusukura amenyo ye, uyu mukobwa afite uburoso bw'amenyo mu kanwa, uyu mukobwa ateze igitambaro cy'umweru, yambaye n'isengeri y'umweru.

Iki ni igishushanyo. Iki gishushanyo kirerekana amenyo. Iki gishushanyo gifatwa n'imashini zo kwa muganga zisuzuma umubiri w'umuntu.

Uyu ni umugabo, uyu mugabo ari gusukura amenyo ye, afite uburoso busizeho w'umuti woza amenyo. Uyu mugabo ari kwireba mu ndorerwamo.

Hari gukorwa ibikorwa by'ubuvuzi. Hari abantu benshi batonze umurongo bari kuvurwa. Bari gusuzumwa ndetse bakakirwa mu ihema. Bakabasuzuma indwara zitandukanye.

Ni kwa muganga, hari ameza ariho igikoresho, iki gikoresho cyifashishwa bavura amenyo.

Aha ni kwa muganga, ni mucyumba gikorerwamo ubuvuzi bw'amenyo, hari umuganga wicaye imbere y'igitanda, barambikaho umurwayi bari kumusuzuma ndetse banamuvura amenyo.

Aha ni mu nama. Iyi nama yitwa tubiteho. Hari umugore wicaye ku meza uri kumwe n'abana bato. Uyu mugore yambaye umupira w'icyatsi. Aba bana na bo bambaye imipira y'icyatsi. Inyuma yabo hari abagabo bambaye imipira y'umweru, hari n'abandi bantu basanzwe.

Ni kwa muganga mu buvuzi bw'amenyo, hari umukobwa bari kugira andi menyo mashya, uyu mukobwa arishimye.

Ni kwa muganga, ni mu cyumba bavuriramo amenyo, iki cyumba kirimo udutanda n'ibikoresho byinshi bifashisha bavura amenyo.

Aka ni akuma kifashishwa kwa muganga. Hari umuganga uri kureba kuri aka kuma. Kuri aka kuma, hariho ibishushanyo by'amenyo.

Aha ni kwa muganga, hari banyeshuri biga ubuvuzi bafite igishushanyo cy'amenyo, bari kucyifashisha biga kuvura amenyo.

Hari umugabo ukuze uri mu bwiherero, uyu mugabo ari imbere y'indorerwamo, uyu mugabo afashe agakoresho yifashisha asukura amenyo.

Ni umugabo, uyu mugabo arishimye, uyu mugabo afite akadodo mu ntoki, aka kadodo kifashishwa kugira ngo akuremo ibiryo biba byasigaye hagati y'amenyo.

Aba ni abakecuru babiri, aba bakecuru bari gukora siporo bombi barizihiwe.

Ni hanze, ni ku meza hari umugabo uri gukina dame. Uyu mugabo ni umusaza, afite undi muntu bari gukina.

Aha ni mu mbuga, muri iyi mbuga hari umukecuru uhicaye, uyu mukecuru aratetse kuri nyirankono.

Ni ku meza bari kwarura, hari umusore ufite isahani iriho imigati bagiye gushyiriraho imboga, ugiye kumushyiraho imboga ni umukobwa, uwo musore iburyo bwe hari umukecuru.

Uyu ni ni umugore. Uyu mugore arakuze. Uyu mugore ari mu nzu. Uyu mugore afite isahani iriho ibiryo. Uyu mugore agiye kurya.

Aha ni kwa muganga hari umugabo uryamye kwa muganga, iruhande rwe hari umuganga uri kumukurikirana, uyu murwayi afite ibikoresho biri kureba uko ubuzima bwe buhagaze.

Hari umukecuru wicaye mu nzu, uyu mukecuru ari kumwe n'umuntu umwitaho, bombi barishimye.

Ni umusaza ndetse n'umukecuru, bombi bicaye ku meza, bari gusoma ku rupapuro rwanditseho uko uyu musaza anywa imiti.

Ni ku meza, hari umusaza n'umukecuru, imbere yabo hariho imiti, hari n'amazi yo kuyinywesha. Uyu musaza afite telefone mu ntoki, ari kureba uko banywa iyo miti.

Aha ni mu nzu. Hari umugabo ukuze, uri ku meza. Uyu mugabo, ari gufungura. Hari umugore umukikije, uri kumusukira umutobe mu kirahure.

Hari umusaza barigufasha gukora imyitozo ngororamubiri, uyu musaza aricaye ari gukururisha ikintu n'amaboko ye yombi.

Umukecuru arishimye, uyu mukecuru afite utwuma tubiri turi kumufasha mu myitozo ngororamubiri, inyuma ye hari inyubako nyinshi z'amagorofa ndetse n'ikiyaga.

Uyu ni umusaza hari umugore uri kumwitaho, uyu musaza yicaye mu kagare, bombi bari kurebana.

Ni ku meza, hari umusaza n'umukecuru, uyu musaza ari gufata imiti, iyi miti ari gusoma uko ikoreshwa abyeretswe n'umukecuru.

Umukecuru ari gukora imyitozo ngororamubiri, yazamuye amaboko ye yombi, hari umugore uri kumwitaho, umufasha iyi myitozo ngororamubiri.

Aha ni mu busitani, hari abagore bari kuboha udutebo, aba bagore bamwe muri bo bafite abana, hari umugabo waje kubasura ufite umwana akikiye.

Umukecuru wicaye kumeza, harumu umukobwa uri kumuha ibinini, ibi binini agiye kubinywesha amazi ateretse ku meza.

Hari umusaza uri kugenda mu nzu, afite udukoresho twifashishwa nk'imbago, iruhande rwe hari umuntu umwitaho.

Ni umusaza bari guhagurutsa, uyu musaza ari mu zabukuru ntari kubasha kugenda, hari abantu babiri bamukikije bari kumufasha guhaguruka ku buriri yari yicayeho.

Aha ni mu muhanda rwagati, aba ni abakecuru babiri bafite utubando, aba bakecuru bakenyeye kandi bose bagiye ahantu hamwe, inyuma yabo hari abandi bantu benshi nabo babakurikiye.

Ni kwa muganga hari umugabo uri kwa muganga, ari kuganira na muganga, bicaye ku meza umuganga ari kumwereka ibisubizo by'ibizamini bafashe uyu murwayi.

Ni ku meza, harimu umusaza uri kurya ndetse n'umugore ukuze urirya, bombi bari kurya ifunguro ryiganjemo imboga.

Ni ku nkengero z'umuhanda, hari abagabo babiri bari muri siporo, bombi bambaye amashati y'umweru ndetse n'amapantaro y'amatiriningi y'umukara, uwo muhanda ukikijwe n'ubusitani ndetse n'ibiti.

Ni umusaza, uyu musaza yicaye ku meza ari gusoma, uyu musaza yifashe mu gahanga.

Ni ku isoko, muri iri soko harimo abagore, aba abagore bafite ibitebo binini, bari gucuruza inyanya, inyuma yabo hari amacunga ari gucuruzwa.

Aha ni mu muhanda, hari abagore babiri bari muri siporo, bari kugenda n'amaguru, bakikijwe n'ubusitani burimo ibyatsi ndetse n'ibiti.

Ni mu gikoni, hari umugore uri mu gikoni, uyu mugore afite amazi mu ntoki ndetse n'ikinini, byose ari kubireba, agiye kunywa imiti.

Aha ni mu nzu. Hari umusaza ndetse n'umukecuru bicaye ku meza. Bombi hari imiti ibatetse imbere. Bagiye kunywa iyo miti.

Umusaza yicaranye n'umwana, uyu musaza yicaye mu kagare, uyu mwana yicaye mu ntebe, bombi bari kurebana, bari gukina imikino ikinwa hifashishijejwe ikoranabuhanga.

Ni mu nzu hari abantu bicaye mu ntebe, muri aba bantu babiri ni abagabo, batatu ni abagore, hari n'umwana muto w'umukobwa nawe wicaranye nabo.

Ni mu muhanda, hari abantu bahagaze bari kumwe, muri bo harimo umusaza ndetse n'umukecuru, harimo n'umusore ndetse n'umugore, hagati yabo hari umwana muto w'umukobwa.

Ni mu nzu, hari umugore uri ku meza ugiye kunywa imiti, uyu mugore afite agacupa k'imiti mu ntoki, ari gusuka ikinini ku ntoki ze.

Aha ni mu nzu. Muri iyi nzu hari umusaza wicaye mu kagare. Inyuma ye hari umukobwa uri kumusunikira aka kagare. Inyuma yabo hari abandi bantu na bo bakuze.

Ni mu nzira, muri iyi nzira hari umu umugabo uri gusindagira ku mbago, iruhande rwe hari umugore bari kumwe.

Aha ni mu nzu. Hari umugabo ufatanye akaboko n'umugore. Uyu mugabo bari kumufasha kumanuka amabaraza.

Aha ni mu nzu. Hari umusaza wicaye ku meza. Imbere ye, hari imiti, hari n'ikirahure cy'amazi. Hari umugore bicaranye. Uyu mugore, ari kumwereka uko anywa imiti.

Hano ni mu birori, hari abagabo babiri bicaye mu ihema, aba bagabo bakenyeye, inyuma yabo hari abantu benshi.

Hari umugore wicaye mu ntebe, inyuma ye hari umukobwa umufashe mu gatuza, bombi barishimye.

Ni ku manywa, mu muhanda rwagati hari abagore bari ku murongo, aba bagore bari kugenda babyina.

Aha ni mu ihema, muri iri hema bari gusuzumiramo abantu indwara zigiye zitandukanye, harimo abantu benshi bategereje gusuzumwa.

Aha ni mu busitani, hari umusaza wicaye ku kagare, inyuma ye hari umugore uri kugenda umusunika, aba bombi barishimye.

Aha ni mu nzu hari umusaza ndetse n'umukecuru bicaye ku meza. Uyu mukecuru afite mudasobwa imbere ye. Uyu musaza afite imiti imuteretse imbere, gusa afite umwe mu ntoki ari kureba we n'umugore we.

Ni mu nzu. Hari umusaza wicaye mu ntebe. Hari n'umuganga bari kuganira uri kumusuzuma. Uyu muganga afite igikoresho gipima umuvuduko w'amaraso.

Aha ni kwa muganga, hari abaganga bambaye imyenda ipfuka umubiri wose.

Aha ni mu nama, iyi nama yari irangiye, hari umugabo uri gusuhuzanya n'ababikira, iyi nama yari yateguwe na Minisiteri y'Ubuzima.

Ni mu ihema. Muri iri hema harimo ameza. Aya meza ariho abantu bari gupima. Hari umukobwa wicaranye n'umuganga, uri kumwambika agakoresho gapima umuvuduko w'amaraso.

Twirinde indwara y'ubushita bw'inkende, iyi ndwara ni indwara yandurira ku ruhu, yandura iyo uyifite akojeje amatembabuzi ku wundi utayifite, iyi ndwara iravurwa igakira.

Aha ni ku kibuga, kuri iki kibuga hari abantu benshi batonze umurongo, aba bantu bari gufata ifoto y'urwibutso.

Aha ni mu busitani, muri ubu busitani hari umuntu wagize ikibazo, uyu muntu aryamye ku gatanda ko kwa muganga, hari abaganga bamukikije bari kumwitaho.

Ni kwa muganga, abarwayi benshi baje kwisuzumisha kwa muganga, abaganga nabo ni benshi, buri murwayi afite umuganga uri kumusuzuma bose bambaye udupfukamunwa.

Iyi ni inyandiko, iyi nyandiko yateguwe na Minisiteri y'Ubuzima ifatanyije na RBC, iyi inyandiko yanditseho amabwiriza agenga kwirinda SIDA, kuyivura no kuyitaho mu Rwanda, mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri.

Utu ni udukoresho two kwa muganga, utu dukoresho batwifashisha bafata ibizamini, ibi bizamini bafata bipima Virusi y'Ubushita bw'Inkende.

Aha ni mu ihema, hari hari kubera igikorwa cy'ubuvuzi, hari umugabo w'umusaza wicaye bari gusuzuma, hari abaganga bari gusuzumarimo uyu murwayi.

Ishyirahamwe mpuzamahanga ryita ku buzima bw'ibidukikije. Umunsi mpuzamahanga wahariwe kwita ku buzima bw'ibidukikije, ku itariki makumyabiri n'esheshatu Nzeri bibiri na makumyabiri na kane.

Iyi ni inyandiko. Iyi nyandiko irashishikariza abantu kwikingiza Korona virusi. Iyi nyandiko yateguwe na Minisiteri y'Ubuzima ifatanyije na RBC.

Ni mu muhanda rwagati. Hari abantu benshi, bari mu rugendo. Urwo rugendo rugamije, gushishiriza urubyiruko, kwirinda virusi itera SIDA, bipimisha bahereye uyu munsi.

Ni mu kiganiro, iki kiganiro cyabereye mu kigo cy'amashuri, hari abantu bicaye imbere bateguye iki kiganiro, inyuma yabo hicaye abana b'abakobwa b'abanyeshuri.

Aha ni mu nama, hari abantu bari kumwe bari gufata ifoto, iyi nama yari yateguwe na Minisiteri y'Ubuzima.

Ni mu nama, hari umugabo uri imbere y'abandi uri gutanga imbwirwaruhame. Yari inama kabiri mpuzamahanga yiga ku buzima rusange bw'abaturage. Yabaye ku itariki cumi n'eshatu Nzeri bibiri na makumyabiri na kabiri, yabereye mu Rwanda.

Aba ni abantu benshi. Aba bantu, biganjemo abakobwa. Aba bantu, bari mu bukangurambaga bwo kwirinda kanseri y'ibere. Bashishikariza abantu kuyisuzumisha hakiri kare.

Hano ni kwa muganga. Ni mu cyumba kibamo imashini bakoresha bamesa imyenda. Hari umugore wafunguye iyi mashini uri kuyishyiramo imyenda.

Aha ni mu busitani. Muri ubu busitani harimo ibyicungo. Ibi byicungo bisize amabara y'ubururu ndetse n'icyatsi. Ikindi buno busitani burazitiwe.

Ni ku manywa mu busitani. Imbere y'ubwo busitani hari inzu ebyiri z'amagorofa atatu. Imwe iri imbere indi iri inyuma. Zubakishije amatafari asanzwe ahiye ndetse n'ibirahure.

Uyu ni umuhanda. Muri uyu muhanda harimo icyapa. Iki cyapa kiraranga ikigo gishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe cya Huye.

Aha ni kwa muganga. Ni mu cyumba abarwayi barwariramo. Harimo ibitanda byinshi bishashe. Hari n'amarido hagati y'igitanda ndetse n'ikindi.

Ni kwa muganga. Ni mu cyumba, bakoresha bita ku bana bato. Iki cyumba, gisize amabara meza. Harimo icyatsi, harimo ubururu ndetse n'umutuku.

Ni mu cyumba cyo kwa muganga, ni mu cyumba abarwayi barwariramo, muri iki cyumba harimo ibitanda bishashe, iki cyumba kirimo urumuri ruhagije.

Ni imbere y'inyubako, iyi nyubako ni iya farumasi, iyi farumasi yitwa Peniel, ni iya Murekatete Marie Denise, imbere y'iyo nyubako haparitse umumotari, hari n'umuntu umwe.

Ni kwa muganga. Mu inzu ya materinite. Imbere y'iyi, nzu hari intebe. Hari n'abantu babiri, bari kunyura imbere y'iyi nzu.

Aya ni amashashi, aya mashashi arimo amaraso, aya mashashi yifashishwa mu gutwara amaraso.

Aha ni kwa muganga, ni mucumba kiberamo operasiyo, muri iki cyumba harimo ibikoresho byinshi n'imashini nyinshi zo kwa muganga.

Ni inama, hari abantu bari gutanga ikiganiro. Hari n'abandi benshi bakurikiye ikiganiro, iki kiganiro cyabaye nyuma yo gufungura ikigo cya Gahini, cyo gusubiza abantu mu buzima busanzwe.

Ni ku bitaro ibi bitaro byitwa polyclinic de l'toire, iyi nyubako igizwe n'amagorofa atatu imbere yayo haparitse amamodoka.

Ni hanze ku mbuga. Iyo mbuga yo ku nzu y'ababyeyi. Iyi nzu y'ababyeyi isize irangi ry'umweru ndetse ifite n'amabati asize irangi ry'ubururu bwerurutse.

Aha ni kwa muganga, hari umugore ufite uruhinja mu ntoki, waruzanye kwa muganga, hari umuganga uri kureba uko runo ruhinja rumeze.

Aha ni kwa muganga, ni mu cyumba kiberamo operation, iki cyumba kirimo ibitanda byinshi ndetse n'imashini nyinshi zifashishwa kwa muganga.

Ni kwa muganga, ni mu cyumba kiberamo operation, muri iki cyumba harimo udutanda ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu buvuzi. Iki cyumba kivurirwamo abana.

Aha ni ku ruzitiro rw inyubako. Imbere yarwo hari umuhanda wa kaburimbo. Uru ruzitiro ni urw'ibitaro bya Nyanza.

Ni mu nyubako, iyi nyubako bayifashisha bakora siporo, muri iyi nyubako harimo ibikoresho byinshi byifashishwa mu gukora siporo, harimo ibikoresho baterura, harimo ibyo kwirukanka, harimo n'igare banyonga.

Iyi ni inyubako, muri iyi nyubako hakoreramo imyitozo ngororamubiri, harimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Ni mu cyumba cyo kwa muganga. Hari umuganga, uri gupima umwana w'uruhinja. Uyu mwana, ari ku munzani. Uyu muganga, ari gupima ibiro by'uyu mwana.

Ni mu ruganda, uru ruganda rukora imiti, harimo abakozi bakikije imashini, aba bakozi bambaye udutambaro mu mutwe, bambaye udupfukamunwa ndetse n'amataburiya y'umweru, aba bakozi bambaye na ga.

Ni mu nama, iyi nama irimo abasheshakanguhe, harimo abakecuru ndetse n'abasaza, abakecuru bambaye imipira y'umuhondo ndetse n'iy'icyatsi cyerurutse, ndetse kandi bakenyeye ibitenge, ku ruhande rw'abagabo cyangwa se abasaza bambaye imipira y'umuhondo n'amapantaro y'umukara.

Ni mu cyumba cyo kwa muganga. Muri iki cyumba, harimo igitanda, harimo televiziyo, harimo mudasobwa, harimo n'ibindi bikoresho byifashishwa kwa muganga.

Ni mu iduka, iri duka ricuruza amarinete, aya marinete ari mu kabati k'ibirahuri, aya marinete ni menshi cyane, iri duka ryitwa nova.

Aha ni mu nyubako, iyi nyubako ishobora gukoreshwa nk'ishuri cyangwa se nk'icyumba cy'inama, irimo intebe nyinshi ndetse n'ahantu utanga ikiganiro cyangwa umwarimu ashobora guhagarara.

Ni ku bitaro. Ni mu mbuga iri imbere y'ibitaro. Ibitaro bya Kabutare bishinzwe kwita ku bafashwe ku ngufu. Imbere yaho hari abantu benshi bahagaze. Harimo abaganga n'abantu basanzwe.

Ni kwa muganga, hari imashini nyinshi ziteretse mu cyumba cyo kwa muganga, izi mashini zifashishwa mu gupima amaraso.

Ni kwa muganga, ni mu cyumba kiberamo operation, harimo intebe, harimo n'ibyuma bitandukanye, ibi byuma babyifashisha basukura amaraso.

Iyi ni inyubako. Iyi nyubako, niyo kwa muganga. Ni iy'ibitaro bya legasi. Aha ni aho abantu babakirira.

Ni kwa muganga, ni mu cyumba bakoreramo operation, harimo ibikoresho bitandukanye, muri byo harimo n'ibitanda abarwayi bicaraho mu gihe bari gukorerwa operation.

Ni kwa muganga, aha ni mu cyumba abarwayi barwariramo, harimo ibitanda byinshi ndetse n'ibindi bikoresho by'ibanze abarwayi bakenera iyo barwaye kwa muganga.

Iyi ni inyubako, iyi nyubako ifite amagorofa abiri, iyi nyubako niyi kigo nderabuzima cya Kanyinya, iyi nyubako izengurutswe n'ubusitani n'ibendera ry'u Rwanda ndetse n'umuhanda.

Ni kwa muganga. Hari imiryango myinshi itandukanye. Hari amatarabona neza ndetse n'inzu zose zisize amarangi y'umweru.

Aha ni kwa muganga, ni mu cyumba kiberamo operation zo kwa muganga, hari imashini nyinshi zikikije igitanda bavuriraho umurwayi.

Aha ni kwa muganga, ni mu nzira yinjira mu byumba byinshi, iyi nzira by'umwihariko igana ku ivuriro ryita ku bana.

Aha ni ku bitaro, hari inyubako igizwe n'amagorofa atatu, ikikijwe n'indi nyubako ikozwe mu ruziga, bikikijwe n'ubusitani ndetse n'inzira bagendamo.

Aha ni kwa muganga, hari umugore uryamye ku gitanda utwite, hari umuganga ufite agakoresho kumva amajwi y'umwana uri mu nda, uyu muganga yagashyize ku nda yuyu mubyeyi, uyu muganga ari kumva amajwi ari mu nda yuyu mubyeyi.

Ni ku bitaro. Nyuma yaho, hari abarwayi bategereje ku muryango. Mo imbere, harimo abaganga bari kwita ku murwayi.

Aha ni ku kigo. Iki kigo by'umwihariko cyita ku basheshe akanguhe. Ndetse n'abari mu zabukuru.

Ni mu nyubako yo kwa muganga, hari abantu benshi bicaye bategereje kubonana na muganga, harimo abari gutambuka imbere yabo, harimo n'umuntu wambaye agapfukamunwa uri kugenda abaganiriza ngo yumve buri wese ikibazo afite.

Ni mu mbuga imbere y'ibitaro. Ibi bitaro bivura amaso. Ibi bitaro byitwa Eye Foundation Hospital. Ibi bitaro ni inzu ndende. Iyi nzu ifite igisenge cy'ubururu, igasigwa n'irangi ry'umweru.

Aha ni kwa muganga, iki ni icyumba bifashisha basuzumiraho abarwayi, iki cyumba bagikoreramo na operation, harimo ameza menshi, harimo intebe, harimo n'ibikoresho byifashishwa binyuranye.

Iyi ni inyubako. Iyi nyubako, n'iy'icyahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda. Ariko kuri ubu ni kaminuza y'u Rwanda. Iyi nyubako ifite amabaraza. Iyi nyubako ikikijwe n'ubusitani, burimo ibiti. Ku mabaraza, hari abantu bari kuhagenda.

Ni kwa muganga, hari umuforomo uri kwita ku murwayi, uyu murwayi aryamye ku gitanda, inyuma yabo hari ibikoresho byinshi, ibikoresho byifashishwa mu buvuzi.

Ni kwa muganga, ni mu cyumba cya laboratwari, muri iyi laboratwari harimo ibikoresho byinshi bitandukanye, iyi laboratwari iracanye.

Ni kwa muganga ni imbere y'inzu y'ababyeyi cyangwa se materinete, imbere yaho hahagaze ababyaza bari kumwe.

Aha mu ihema, muri iri hema hari gukorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi, hari abarwayi baryamye ku dutanda, iruhande rwabo hari baganga bari kubitaho.

Ni imbere y'inzu y'ababyeyi, imbere y'iyi nzu hateye ameza ndetse n'intebe, kuri izi ntebe hicayemo umugabo ndetse n'umugore wambaye imipira y'ubururu, bakikijwe n'abandi bantu batatu.

Aha ni kwa muganga. Iyi nyubako irimo ibyumba byinshi. Iyi nyubako isize irangi ry'umweru ahantu hose.

Izi ni inyubako, izi nyubako ni izo kwa muganga, izi nyubako ziratandukanye, izi nyubako zikikijwe n'ubusitani.

Aha ni kwa muganga, ni mu cyumba bakoreramo operation, muri iki cyumba harimo ibikoresho binyuranye, ibi bikoresho byifashishwa mu gusuzuma umurwayi indwara arwaye.

Aha ni kwa muganga ni imbere y'icyumba gikorerwamo operasiyo, iki cyumba gifite amadirishya adatuma ushobora kubona imbere.

Ni imbere y'inyubako. Iyi nyubako, ni iy'ikigo nderabuzima cya Nyarurenzi. Iyi nzu, igizwe n'amagorofa abiri. Hasi hari abantu, no ku igorofa rya kabiri hari abantu. Iyi nzu ikikijwe n'ibiti.

Hano ni kwa muganga, ni mu cyumba kiberamo operasiyo, iki cyumba kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye harimo amamashini, harimo na mudasobwa, ndetse n'ibindi byuma bakoresha bapima abarwayi.

Aha ni mu nyubako. Iyi nyubako bayifashisha bakora imyitozo ngororamubiri. Iyi nyubako irimo ibikoresho byinshi bitandukanye. harimo ibyo bifashisha biruka, ndetse n'ibyo bifashisha baterura.

Aha ni mu nzu. Ni mu nzu, bakoreramo imyitozo ngororamubiri. Muri iyi nzu, harimo utwuma twinshi bifashisha bakora imyitozo yo guterura.

Ni kwa muganga, ni imbere y'icyumba kibikwamo imiti, iki cyumba gikikijwe n'amatara abona cyane, iyi nzu yose isize amabara y'umweru.

Ni mu nyubako yo kwa muganga. Hasize amarangi y'umweru, hari n'imiryango myinshi. Hari ahantu hateye intebe, hateye n'ameza. Aha hantu, hashobora kwifashishwa, bahaganirira.

Aha ni mu bubiko, ububiko nubw'imiti, ububiko burimo imiti myinshi igiye itandukanye.

Ni kwa muganga ni mu cyumba gikorerwamo operasiyo zo kwa muganga, harimo amatara ndetse n'izindi mashini zifashishwa kwa muganga ndetse n'ibikoresho.

Ni ku marembo, ni ku marembo y'ikigo nderabuzima cya Kigina, imbere yaho hari umugore uhetse umwana w'uruhinja mu mugongo.

Ni kwa muganga, aha ni ho abarwayi bicara bategereje kwinjira mu cyumba kirimo umuganga by'umwihariko aha bahavurira amaso.

Ni mu nzira y'abanyamaguru. Iyi nzira, ikikije ibitaro bya Ruhengeri. Muri iyi nzira harimo abantu benshi, bari kubisikana. Bamwe bari kuzamuka, abandi bari kumanuka.

Ni kwa muganga. Ni mu cyumba kizwi nka Laboratwari. Iyi Laboratwari irimo ibikoresho byinshi bitandukanye. Ibi bikoresho byifashishwa bafata ibizamini by'abarwayi.

Aha ni kwa muganga. Ni mu cyumba bakoresha basuzuma umurwayi umubiri we wose. Harimo icyuma cyifashisha imirasire kikareba umubiri wose w'umuntu, yaba inyuma ndetse n'imbere. Hari umuganga uri kugikoresha, hari n'umurwayi uri kucyinjiramo.

Ni laboratwari yo kwa muganga, hari abanyeshuri biga ubuvuzi bayirimo, bose bari kwiga.

Iyi ni inyubako y'ibitaro. Ni inyubako y'ibitaro byitwa Polyclinique du Plateau. Imbere yayo hateye ibiti. Iyi nyubako igizwe n'amagorofa ane.

Ni ku kigo iki kigo cyitwa isange one stop center, iki kigo cyakira abakorewe rishingiye ku gitsina.

Ni kwa muganga, iyi nyubako irimo ibyumba byinshi, iyi nyubako ifite isuku, iyi nyubako irimo imiryango myinshi.

Aha ni mu cyumba cyo kwa muganga. Muri iki cyumba hari umuganga uri kuri mudasobwa. Uyu muganga yambaye agapfukamunwa. Uyu muganga ni umugore.

Aha ni muri parking, ni muri parikingi y'ibitaro bya Legacy haparitsemo imodoka nyinshi, harimo izisanzwe ndetse n'imbangukiragutabara.

Aha ni kwa muganga, ni mucmba kinini cyo kwa muganga, hari abaganga benshi bari kwakira abarwayi, yaba abaganga ndetse n'abarwayi bose bambaye udupfukamunwa.

Ni kwa muganga, hari ibikoresho byinshi biri mu cyumba cyo kwa muganga, ibi bikoresho ibyinshi muri byo byifashishwa bongerera umwuka abarwayi.

Ni hanze mu busitani, ni munsi y'igiti. Hari umugabo wicaye ku mabaraza ari munsi y'igiti, uyu mugabo yambaye ishati y'ubururu bwerurutse n'ipantaro y'umukara.

Ni kwa muganga, ni mu cyumba kizwi nka laboratoire cyo kwa muganga, iki cyumba cyifashishwa bakora ubugororangingo.

Ni kwa muganga, ni mu cyumba bacishamo mu cyuma, iki cyuma gisuzuma ingingo z'umuntu.

Aha ni imbere y'inzu y'ababyeyi. Hari abantu benshi bicaye imbere y'iyi nzu. Harimo abihayimana, harimo inzego z'umutekano, harimo abajyanama b'ubuzima ndetse n'abaganga. Harimo n'abandi bantu basanzwe, bose bakoraniye hamwe bari gufata ifoto.

Aha ni kwa muganga, mu cyumba kimwe hari umuntu uryamye ku gitanda kwa muganga, uyu muntu akikijwe n'imashini ziri gukurikirana ubuzima bwe, mu kindi cyumba harimo ibikoresho byifashishwa hongerera abarwaye umwuka, harimo n'ibitanda abarwayi barwariraho.

Aha ni kwa muganga, hari umubyeyi uryamye ku gitanda, uyu mubyeyi ari kwitabwaho n'abaganga babiri.

Iyi ni inyubako, iyi nyubako ikoreramo abacuruza amadarubindi, aya madarubindi ni menshi amanitse ku tubati.

Aha ni mu cyumba cyo kwa muganga, muri iki cyumba harimo agatanda gato kararaho abana, muri iki cyumba harimo ibikoresho bitandukanye umuntu yifashisha mu buzima bwa buri munsi.

Aha ni kwa muganga, ni mu cyumba cya laboratwari, aha niho bafatira ibizamini bigiye bitandukanye bakabipima, harimo imashini nyinshi zitandukanye, zifashishwa bapima ibi bizamini baba bafashe.

Iki ni icyumba cyo kwa muganga, muri iki cyumba ni ho bafata umurwayi, bakaba bamunyuza mu cyuma, bakareba icyo arwaye.

Ni ku manywa ku kigo nderabuzima cya tabagwe, hari amabaraza hejuru y'aho hari abantu benshi bategereje , hari n'ubusitani bubakikije.

Ni kwa muganga. Ni mu cyumba abarwayi barwariramo. Harimo ibitanda byinshi. Buri gitanda kirashashe. Buri gitanda gifite inzitiramibu. Bimwe muri ibi bitanda biriho abarwayi.

Ni ku cyapa cy'ikigo nderabuzima cya Matyazo, gikikijwe n'umuhanda wa kaburimbo. Hari umuhanda w'igitaka winjira kuri iri vuriro, hari abantu bari kuwutambukamo.

Aha ni kwa muganga, ni mu cyumba kiberamo operation, muri iki cyumba harimo igitanda ndetse n'imashini, zifashishwa bavura umurwayi kwa muganga.

Aha ni kwa muganga, hari inyubako nini igizwe n'amagorofa abiri, iruhande rwayo ikikijwe na parikingi ndetse kandi hari n'ubusitani burimo ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda.

Aha ni kwa muganga, ni mu cyumba bashyiramo abana bakivuka, aba bana baba bavutse igihe kitaragera cyangwa barengeje igihe, hari umuganga uri kwita ku mwana wavutse muto w'uruhinja.

Ni ku bitaro, ibi bitaro ni iby'Akarere ka Nyarugenge, ibi bitaro bisize irangi ry'umweru, imbere ku muryango hasize irangi ry'umukara.

Ni kwa muganga, hari icyuma kinini kiri mu cyumba cyo kwa muganga, iki cyuma cyifashishwa kugira ngo basuzume ibice byose by'umubiri, iki cyuma kizwi nka MRI.

Iki ni icyumba cyo kwa muganga, muri iki cyumba harimo ibikoresho byinshi bitandukanye, harimo ibitanda, harimo n'amamashini, ayo mamashini yifashishwa mu kuyungurura amaraso.

Iyi ni laboratwari, iyi laboratwari irimo ibikoresho byinshi, iyi laboratwari irimo aho kogereza ibintu, iyi laboratwari yifashishwa mu gupima ibintu bitandukanye.

Aha ni ku bitaro, ni ku bitaro bya Legacy, imbere yabo hari abaganga bambaye imyenda y'ubururu ndetse bambaye n'udupfukamunwa, bose bazamuye igipfunsi.

Izi ni inyubako, izi nyubako zigizwe n'amagorofa ane. Izi nyubako zisize amarangi y'umweru ndetse hariho n'amabuye asanzwe ahiye. Ruguru yazo hari abantu benshi.

Ni kwa muganga, hari umukobwa warwaye uri kuganira na muganga. Uwo muganga ni umukobwa, inyuma y'uwo muganga hari umuforomokazi uri kureba muri dosiye.

Ni kwa muganga, hari umwana muto w'umukobwa bagiye gufata amaraso, umuganga ugiye gufata amaraso ni umugore, ari mu cyumba cyo kwa muganga kizwi nka laboratwari.

Iyi ni inyubako yo kwa muganga muri iyi nyubako harimo intebe nyinshi, harimo intebe z'ubururu ndetse n'iz'umuhondo, inyuma yazo hateyemo ibyatsi batera mu nzu.

Aha ni kwa muganga, ni mu cyumba cya laboratwari, muri iki cyumba habamo imashini nyinshi zifashishwa mu gupima ibizamini by'abarwayi, muri iyi laboratwari harimo umuvuzi umwe uri gupima ibyo bizame yifashishije izi mashini.

Ni mu nzu harumu umukobwa ukandagiye ku mukeka, uyu mukobwa yambaye imyenda ya siporo. Uyu mukobwa ari gukora siporo ngororamubiri.

Ni mu nzu, muri iyi nzu harimo abantu benshi, harimo abahagaze ndetse harimo n'abicaye ku meza, bose bari kureba kuri screen iri imbere yabo.

Ni umuntu uryamye ku gitanda uyu muntu bari kumukandira ivi rye, ivi bari gukanda ni iry'iburyo, munsi yaryo harimo agatambaro, agakoresho bari kwifashisha na ko ni agatambaro.

Ni umugore wicaye hasi. Uyu mugore ari gukora imyitozo ngororamubiri. Uyu mugore ari kugorora amaboko ye. Imbere ye hari mudasobwa, hirya hari utwuma two guterura, inyuma yaho hari amazi yo kunywa ndetse n'utwuma bifashisha bagorora imitsi.

Uyu ni umusore, uyu musore apfukamye ku mukeka, uyu musore ari gukora imyitozo ngororamubiri. Uyu musore ari kugorora umugongo we.

Ni mu nzu hari umukobwa uri gukora siporo, uyu mukobwa yambaye agasengeri k'umweru ndetse na kora y'ubururu bwerurutse, uyu mukobwa ateye ivi amaboko yombi ari hejuru.

Hari ijage irimo amazi, umuntu yafashe iyi jage, ari gusuka amazi mu kirahure, iki kirahure cyenda kuzura.

Ni umusore, uyu musore ari kunywa amazi. Aya mazi ari mu icupa. Uyu musore yambaye agapira k'umukara ndetse yabize icyuya.

Umukobwa yicaye hasi, uyu mukobwa ari gukora imyitozo ngororamubiri, uyu mukobwa ari kugorora amaguru ye ndetse n'umugongo we.

Aha ni kumanywa, ni ku ntebe iri ku muhanda, hari umuntu umwe wicaye kuri iyi ntebe uri kunywa amazi, hari n'undi umwe uhagaze, aba bantu bavuye muri siporo.

Hari umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri, uyu muntu yicaye hasi yarambuye ukuguru kwe kw'ibumoso, amaboko ye yombi afashe ku kirenge cye cy'ibumoso, ukuguru kw'indyo kwe yaguhinnye, iruhande rwe hari icupa ry'amazi.

Ni kwa muganga, hari umuntu bari kuvura ivi, ku ivi rye umuganga hari udukoresho ari gushyiraho, utu dukoresho dufata ivi kugira umuntu ufite ikibazo cy'ivi abashe kugenda neza.

Ni mu cyumba cyo kwa muganga, hari umuganga uri kwigisha abanyeshuri biga ubuvuzi bari muri sitaje, uyu muganga afite sikirini ari kuberekeraho amashusho, aba banyeshuri bari muri sitaje bafite impapuro bari kwandikaho ibyo bize.

Aha ni kwa muganga, ni mu cyumba kibamo imashini bifashisha bari kureba umubiri wose w'umuntu uko umeze.

Ni ku mukeka, kuri uyu mukeka hicayeho umukobwa, uyu mukobwa yambaye imyenda ya siporo, uyu mukobwa ari gukora siporo, uyu mukobwa yicaye ku mukeka w'umweru, ibumoso bwe hari amazi yo kunywa.

Ni ku mabaraza, hari umusore wicaye ku mabaraza, uyu musore ari kunywa amazi, uyu musore avuye muri siporo, uyu musore yambaye umupira ndetse n'ikabutura.

Ni kwa muganga, hari umurwayi wicaye ku ntebe, bari kumukorera ubuvuzi by'umwihariko bari kuvura ukuguru kwe kw'iburyo, hari umuganga uri kumwitaho.

Iki ni igikapu, iki gikapu kirimo ibikoresho byinshi byifashishwa kwa muganga, harimo imikasi, harimo ibipfuko ndetse n'amapamba, harimo n'imiti yifashishwa kwa muganga.

Uyu muntu yifashe ku kuboko, uyu muntu yashyize akantu gakonje ku nkokora ze, uyu muntu yambaye impeta yerekana ko yashatse.

Uyu ni umugabo, uyu mugabo afite umugozi mu ntoki, uyu mugozi yawukuruye cyane, uyu mugabo ari kwifashisha uno mugozi agakora imyitozo ngororamubiri. Impande ye hari umuganga uri kumufasha gukora iyo myitozo neza.

Aha ni ku meza. Hateretse ikirahure. Hari icupa ry'amazi bari gusuka mu kirahure.

Ni umuntu ukandagiye hasi, uyu muntu azamuye agatsinsino ke, ku gatsinsino ke hashushanyijeho amabara y'ubururu ndetse n'umutuku.

Iyi ni imbago, imbago ni igikoresho kwa muganga, baha umuntu utabasha kugenda neza kugira ngo kimufashe kugenda.

Ni mu nzu, hari umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri, uyu musore yambaye isengeri y'umukara n'itiriningi y'umukara n'inkweto z'umweru.

Ni munzu ikorerwamo imyitozo ngoramubiri. Hari umugabo uteye ivi. Uyu mugabo afite ibyuma bibiri mu ntoki ari gukora imyitozo ngoramubiri. Iruhande rwe hari umuntu uri kumwereka uko bigenda.

Ni ku nkengero z'ikibuga cy'umupira w'amaguru, hari abantu bane bari gukora siporo yo kwirukanka.

Ni kwa muganga, hari umusore uryamye ku gitanda, uyu musore hari umuganga uri kumukandira imitsi yo ku mfundiko.

Aha ni mu muhanda rwagati. Harimo umuntu uri kugendera ku mbago, hari n'undi uhagaze ufite umupira w'amaguru mu ntoki.

Ni ku manywa hari umugabo ndetse n'umugore bateranye umugongo, bombi bari kunywa amazi . Amazi ni meza ku buzima kuko afasha umubiri wacu gukora neza.

Hari umuntu uri kwa muganga, uyu muntu afite akuma k'umukara mu ntoki, aka kuma ari kukifashisha akora imyitozo ngororamubiri, uyu muntu akikijwe n'umuganga uri kumwereka uko abigenza.

Ni mu kibuga cya Basketball, hari abana benshi bahagaze muri iki kibuga, aba bana bari kwitegereza, aba bana bari gufana.

Ni icyuma cyo kwa muganga, iki cyuma bacyita MRI, iki cyuma bagikoresha basuzuma umubiri wose w'umuntu.

Uyu ni umusore, uyu musore arasutamye hasi ku isima, ukuboko kwe ku iburyo yakurambuye ari gukozaho ukuboko, uyu musore ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Ibi ni ibikoresho binyuranye byifashishwa kwa muganga, harimo ibipima umuriro, harimo inshinge, harimo imiti, harimo imikasi, harimo itoroshi, harimo n'ibindi byinshi bitandukanye byifashishwa mu buvuzi bw'ibanze.

Ni ku meza, kuri aya meza hariho ibintu bitandukanye, hariho imbuto, imboga, umutobe ndetse n'udukoresho twifashishwa mu gukora siporo.

Ni mu kibuga rwagati, muri iki kibuga harimo abantu benshi bahagaze, hari umuntu wicaye ku gatanda hano mu kibuga, ni umukinnyi wagize ikibazo uri kwitabwaho.

Aha ni kwa muganga, ni mu cyumba abarwayi barwariramo, hari umuntu uryamye ku gitanda, uyu muntu aryamye yubitse inda, hari umuganga uri kureba uko umugongo w'uyu muntu umeze.

Aha ni kwa muganga. Hari umuganga wambaye agapfukamunwa ndetse na ga, uyu muganga yicaye ku meza ari kuri mudasobwa.

Ni umuntu wifashe ku kuboko. Yifashe ku kuboko kwe kw'iburyo by'umwihariko ku nkokora. Hari akantu yashyize ku nkokora kamufasha kuhakonjesha kugira ngo uburibwe bugabanuke.

Iki ni igishushanyo. Iki gishushanyo, kirimo imipira igiye itandukanye, bifashisha mu mikino inyuranye. Harimo kandi n'ibikoresho bifashisha bakina imikino igiye itandukanye.

Ibi ni ibikoresho. Ibi bikoresho byifashishwa kwa muganga. Muri ibi bikoresho, harimo ga, harimo amavuta azwi nka pomade, harimo ibipfuko ndetse n'amapamba yifashishwa kwa muganga.

Ni imbago. Imbago ni igikoresho gikoreshwa mu gusindagiza umuntu utabasha kugenda neza.

Izi ni insimburangingo, izi nsimburangingo ni izo ku maguru, ziza mu buryo bunyuranye.

Ibi ni ibikoresho. Ibi bikoresho byifashishwa kwa muganga. Muri byo harimo imiti, harimo udukapu, ndetse harimo ga, inshinge, imikasi, ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa kwa muganga.

Ni ku manywa ku nkengero z'umuhanda, hari umusore uri kunywa amazi. uyu musore yarari muri siporo, uyu musore yambaye ekuteri.

Ni ku muhanda, hari umukobwa wicaye ku nkengero z'umuhanda, uyu mukobwa aricaye afashe ku kirenge cye cy'iburyo, uyu mukobwa ari gukora siporo ngororamubiri.

Ni ku meza, kuri aya meza hariho ibintu byinshi bitandukanye. Hariho amazi yo kunywa, hariho akuma bifashisha bakora imyitozo ngororamubiri, hariho imboga ndetse n'imbuto.

Aka ni akagare, aka kagare kifashishwe mu gutwara abantu batabasha kugenda, aka kagare gafite amapine ane.

Ubuzima bwiza. Ubuzima bwiza, buba bugizwe n'imirire myiza. Imirire myiza, iba ishatse kuvuga, kurya indyo yuzuye. Indyo yuzuye, iba igizwe n'ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga ndetse n'ibirinda indwara. By'umwihariko, ukarenzaho n'amazi. Ugakora n'imyitozo ngororamubiri.

Uyu mugabo avuye gukora siporo, uyu mugabo ari kunywa amazi, uyu mugabo ari no kwimenaho amazi mu mutwe kugira ngo agabanye ubushyuhe bw'umubiri.

Ni ku meza. kuri aya meza hateretseho ibintu binyuranye. Harimo imboga n'imbuto, hariho icupa ry'amazi ndetse hariho n'akuma bifashisha bakora imyitozo ngororamubiri.

Ibi ni ibikoresho, ni ibikoresho byifashishwa muri siporo, harimo urukweto rwa godiyo harimo n'umupira, byose bikikijwe n'agakoresho kwa muganga bakoresha bumva uko umutima utera.

Muri uyu muhanda harimo inkweto ebyiri ndende, izi nkweto ni umukara, izi nkweto zakwifashishwa nk'umuntu ushaka gukora siporo.

Iki ni igikoresho cyo kwa muganga, iki gikoresho bacyifashisha bakamura ibinure by'umurwayi cyane cyane bariya baba bafite umubyibuho ukabije.

Ni icyuma, iki cyuma cyifashishwa muri siporo, iki cyuma gisize irangi ry'umweru, iki cyuma gifite amapine gifite imigozi ndetse gifite na sikirini.

Aha ni kwa muganga. Ni umwana muto uri kubonana na muganga. Muganga yamutunze igikoresho gifite itoroshi ku munwa we.

Aha ni ku meza, kuri aya meza hari inkweto za siporo, zikikijwe n'umusambi bifashisha bakora siporo, hari n'utwuma bifashisha muri siporo, hagati hari imboga ndetse n'imbuto.

Ni mu kibuga cy'umupira w'amaguru, hari umuntu uryamye hasi, hari n'undi uhagaze hejuru ye, uyu yafashe ku ivi rye ari kumumasa, iruhande rwabo hari umupira wa ruhago, inyuma yabo hari abandi bantu bari kwitoza.

Aha ni ku kibuga hari umukinnyi bari guha utuntu mu ntoki, uyu mukinnyi yambaye ga, uri kutumuha ni koci we.

Aha ni kwa muganga hari umurwayi uryamye ku gitanda kwa muganga, uyu murwayi afite ikibazo kuguru kwe kw'iburyo, hari abantu benshi baje kureba uyu murwayi.

Iri ni igare, iri gare ryifashishwa n'abarwayi batabasha kugenda ndetse n'abari mu zabukuru batakibashije kugenda.

Aha ni ku meza, kuri aya meza hariho imbuto ndetse n'imboga, iruhande rwabyo hari ibyuma bifashisha bakora imyitozo ngororamubiri.

Hano ni ku meza, kuri aya meza hateretseho ibintu byinshi, hateretseho ibikoresho bifashisha bakora imyitozo ngororamubiri, hariho umunzani ndetse n'imbuto, hari umuganga uri kwandikira kuri aya meza.

Aha ni kwa muganga, ni mu cyumba abarwayi barwariramo, hari umuntu uryamye ufite ukuguru ku iburyo kudakora, uku kuguru bagushyizeho insimburangingo, hari abantu benshi bakikije uyu muntu.

Ibi ni ibikoresho. Ibi bikoresho bikoreshwa kwa muganga. bimwe muri byo ni amapamba. Ibindi ni ibipfuko. Ibindi ni imiti itandukanye bakoresha bita ku muntu wakomeretse cyangwa uwavunitse.

Uyu ni umusore, uyu musore ari gukora imyitozo ngororamubiri, uyu musore ari kugorora amaboko ye.

Uyu mugabo ni ikimenyetso cy'umuntu ufite ubuzima bwiza. Kugira ngo ugire ubuzima bwiza, bisaba kurya indyo yuzuye, ndetse no gukora siporo ngororamubiri.

Uyu ni umuganga. Uyu muganga yambaye itaburiya y'umweru ndetse afite umupira wa Rugubi mu ntoki.

Ni ku musenyi, imbere y'inyanja. Hari umukobwa, wambaye imyenda ya siporo. Uyu mukobwa, yazamuye ivi rye, ararifata n'amaboko yombi.

Ni kwa muganga, hari umuntu bari gupfuka, bamaze gupfuka ukuboko kwe kw'ibumoso, bari gupfuka ukuboko kwe kw'iburyo.

Hari umurwayi bari gupfuka ikirenge ke k'iburyo, uyu murwayi bari kumupfuka ku gatsinsino ke k'iburyo, harimu umugabo uri kumupfuka.

Ni ku manywa, ku kibuga cy'umupira w'amaguru, hari umukinnyi uryamye hasi, uyu mukinnyi ari kwitabwaho n'abaganga.

Ni igikoresho, iki gikoresho ni imbago, iyi mbago ifite amapine ane, iyi imbago yifashishwa kugira ngo isindagize umuntu utabasha kugenda neza.

Aha ni mu nzu, muri iyi nzu harimo umugore uri gukora imyitozo ngororamubiri, inyuma ye hari ibikoresho byinshi bifashisha bakora imyitozo ngororamubiri.

Ni kwa muganga, hari umurwayi bari gukorera ubugororangingo, uyu murwayi aryamye ku gitanda, umuganga arahagaze, umuganga ari kugorora akaguru ke k'ibumoso.

Uyu ni umugabo, uyu mugabo afite utuntu twometse ku rutugu rwe rw'iburyo, utu tuntu tumufasha gusubizamo akaboko ke igihe kacomokotse, utu tuntu dufite amabara y'ubururu ndetse n'umutuku.

Ni umukobwa, uyu mukobwa ari gukora siporo, uyu mukobwa ari gukora siporo ngororamubiri, uyu mukobwa yifashe mu mugongo ari kurambura akaboko ke k'iburyo.

Umuntu ari gusuka amazi, afite ijage y'ikirahure irimo amazi, ari gusuka amazi mu kirahure gitoya.

Ibi ni ibikoresho byo kwa muganga. Harimo ga, harimo ibipfuko, harimo n'amavuta ndetse n'amapamba yifashishwa kwa muganga.

Ni mu muhanda rwagati, muri uyu muhanda harimo imbangukiragutabara iri kugenda, uyu muhanda ukikijwe n'ibiti byinshi ndetse n'ubusitani.

Ni umuntu ufite akuma mu ntoki, uyu muntu afite umuganga ufashe ukuboko kwe kw'ibumoso, uyu muntu aricaye.

Ni igishushanyo, kuri iki gishushanyo hariho indyo y'umuntu ukora siporo, hariho igishushanyo cy'umukobwa uri gutera pompaje, iruhande rwe hari imbuto zigiye zitandukanye.

Ni agakoresho gafunguye, mo imbere yako harimo ibipfuko byinshi ndetse na bande, si ibyo gusa harimo n'umukasi.

Aha ni ku nkengero z'umuhanda, umuhanda w'abanyamaguru, hari umusore uri kugorora ukuguru kwe kw'iburyo, uyu musore ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Aha ni mu mahugurwa hari umusore uryamye hasi, hari abandi bantu bamukikije, aba bantu bari kwiga gukora ubuvuzi bw'ibanze.

Aha ni kwa muganga, hari umusore bari gupfuka wagize ikibazo ku kuguru kw'iburyo, ari gupfukwa n'umuganga, uyu musore yicaye ku gitanda cyo kwa muganga.

Umuti, uyu muti wifashishwa mu gusukura mu misatsi. Uyu muti ukozwe mu gikakarubamba. Uyu muti witwa arowe jojoba shampo.

Ibi ni ibimera, muri ibi bimera harimo ibyatsi, harimo amababi ndetse harimo n'indimu, ibi byose byifashishwa nk'imiti gakondo.

Aha ni mu murima, uyu murima uteyemo ibyatsi byinshi, hari abagore bitwikiriye ibitenge bari gusarura ibi byatsi, ibi byatsi byifashishwa mu buvuzi gakondo.

Ibi ni ibimera. Ibi bimera byifashishwa nk'imiti gakondo. Bimwe muri ibi bimera harimo igikakarubamba, harimo Bazili, harimo Lemoni Bamu, harimo Pepa Menite, harimo Lavenda, harimo mari godi ndetse na Rose Meri.

Ni igihingwa, iki gihingwa ni igiti, iki giti gifite amababi yicyatsi, aya mababi agiye atandukanye.

Uyu ni umuti, uyu muti ukoze mu gikakarubamba, uyu muti bawifashisha basukura amenyo, iruhande hari uburoso bw'amenyo.

Iyi ni laboratwari, umusore w'umuganga ari muri laboratwari ari gupima, ku meza hari imiti yifashisha ari gupima, n'inyuma ye hari akabati karimo indi miti.

Ni mu bitaka, ibi bitaka biteyemo igiti, iki giti gifite amababi maremare y'icyatsi, iki giti ni kigufi.

Uyu ni umuti, uyu muti wifashishwa mu kugabanya uburibwe, uyu muti ushobora kwifashishwa mu kuvura intugu, mukuvura mu mugongo, inkokora ndetse no ku ijosi.

Uru ni urupapuro, uru rupapuro rushushanyijeho ibintu byinshi, uru rupapuro rwanditseho amabwiriza agenga kwandikisha imiti gakondo muri Afurika, by'umwihariko mu bihugu biba mu Muryango w'Abibumbye ishami ry'Ubuzima.

Ni mu murima. Uyu murima uteyemo ibikakarubamba. Muri uyu murima hari abantu benshi bambaye imipira y'icyatsi abandi bambaye bisanzwe. Aba bantu bari hamwe bari gufata ifoto.

Ni muri dushe hari umuntu ufite uburoso bw'amenyo, undi afite umuti w'amenyo, ufite umuti w'amenyo ari gushyirira umuti kuri uwo nguwo ufite uburoso.

Ni igiti kiri mu busitani, iki giti gifite amababi y'icyatsi, iki giti ni igiti cy'umuravumba. Ni igiti cyifashishwaga kera bivura ibicurane ndetse n'inkorora.

Aha ni mu bihuru. Muri ibi bihuru harimo igiti gifite amababi y'icyatsi ndetse kikagira n'indabo z'umweru. Iki giti cyifashishwa mu buvuzi gakondo.

Ni ku manywa hari umugore ukikije igiti, kuri iki giti bari gusaruraraho imbuto, iki giti gifatanye n'insina.

Aka ni akabati. Aka kabati gateretse mu busitani bwegereye umuhanda. Aka kabati karimo imiti myinshi. Iyi miti ni imiti gakondo.

Ibi ni ibimera, ibi bimera ni bine bitandukanye, bibiri muri byo ni ibiti munsi yabyo hari ubunyobwa ndetse n'igitoki.

Ni umuti. Uyu muti wifashishwa mu gusukura amenyo. Uyu muti witwa Forever bright toothgel. Uyu muti ukoze mu gikakarubamba.

Uyu ni umuti. Uyu muti wifashishwa mu gusukura intoki. Uyu muti ukorwa mu gikakarubamba. Uyu muti wakozwe n'ikigo cyitwa Forever.

Ibi ni ibimera ibi bimera byose ni icyatsi, harimo ibiti harimo imbuto harimo n'indabo, ibi bimera byifashishwa nk'imiti gakondo.

Aya ni amavuta, aya mavuta n'ayo kwisiga, aya mavuta yifashishwa kuvura indwara zo ku ruhu, aya mavuta akozwe mu gikakarubamba.

Ni amababi y'icyatsi, aya mababi ni ay'igiti cy'umuravumba. Umuravumba amababi yawo yifashishwa mu kuvura inkorora ndetse n'ibicurane.

Izi ni imbuto. iIzi mbuto harimo amacunga y'umuhondo ndetse n'ay'icyatsi. Amacunga ni imbuto nziza kuko yifashishwa mu kurinda indwara.

Iki ni ikimera. Iki kimera ni igiti. Iki giti gifite amababi agiye atandukanye, mato. Iki kimera cyifashishwa mu buvuzi gakondo.

Uyu ni umuti, uyu muti umukobwa awuteruye mu ntoki. Uyu muti uri mu icupa ry'umukara, uyu muti wifashishwa mu buvuzi gakondo.

Ni kwa muganga, hari umuganga uri gufata imiti akayishyira mu bikarito bayifunikamo. Uyu muganga yambaye agapfukamunwa ndetse n'agatambaro mu mutwe kifashishwa mu isuku.

Iki ni igitunguru, iruhande rwacyo hari indimu, ibi byombi bihuriye ku kintu kimwe, ibi byombi byifashishwa mu kurinda no kuvura indwara.

Aha ni mu ihema, muri iri hema hari kuberamo imurikagurishwa. Harimo poroduwi nyinshi zitandukanye zifunze mu macupa.

Iibi ni ibimera, ibi bimera birimo ibiti, birimo ibyatsi ndetse n'imbuto. Byose byifashishwa nk'imiti gakondo.

Ni ku mabaraza, y'inzu. Hari umugabo upfutse umutwe. Uyu mugabo yambaye umupira w'icyatsi, n'ipantaro y'ubururu bwijimye. Uyu mugabo afite ururabo mu ntoki. Uru rurabo, rwifashishwa nk'umuti gakondo.

Aya ni amavuta, aya mavuta n'ayo mu musatsi, aya mavuta akozwe mu gikakarubamba, aya mavuta yifashishwa mu kwita ku musatsi.

Ni mu murima. Uyu muririma uteyerimo indabo, izi ndabo ni umuhondo. Uyu murima urimo ibiti, ibi biti bifite amababi y'icyatsi.

Ibi ni ibyatsi, ibyatsi biri mu moko atandukanye, byose byifashishwa bavura ariko mu buryo bwa gakondo.

Iki ni igiti, iki giti ni icy'umuravumba, umuravumba ukoreshwa cyangwa se wakoreshwaga mu kuvura ibicurane ndetse n'inkorora.

Iyi ni imiti, iyi miti yifashishwa mu buvuzi gakondo, iyi miti ikozwe mu gikakarubamba, iyi miti irimo amavuta ndetse n'amasabune.

Ubu ni ububiko, muri ubu bubiko harimo amacupa menshi arimo imiti, iyi miti ni imiti gakondo.

Ni mu busitani. Hari umusore ndetse n'umukobwa bari mu busitani. Bombi bari gutanga ikiganiro, umukobwa yambaye umupira w'umweru ndetse ateze n'agatambaro k'ubururu bwerurutse. Umuhungu yambaye umupira utukura ndetse n'ikote ry'umukara.

Aha ni muri farumasi. Hari akabati karimo imiti myinshi. Harimo umugore uri gukoramo.

Aha ni mu muririma w'indabo. Izi ndabo zifite ibara ry'i roza. Hari umugore uhagaze muri uyu murima.

Ubu ni ubuki ubuki, ubuki bufunitse mu icupa, ubuki bwifashishwa mu kuvura indwara, ubu buki bwakozwe n'uruganda rwa Forever.

Ni ku meza, kuri aya meza hariho umutobe uri mu itasi w'amacunga, uyu mutobe ukikijwe na tangawiz,e ukikijwe kandi n'ubuki.

Aha ni mu murima. Uyu murima, uteyemo ibikakarubamba. Ibi bikakarubamba biteye ku murima munini cyane. Uyu murima urimo abantu benshi. Uyu murima urimo n'imashini, zihinga.

Iri ni iduka, iri duka ricuruza imiti gakondo, hari imiti myinshi iri ku meza, hari n'indi iri mu bicupa iri ku tubati.

Iyi ni imiti, iyi miti iranyuranye, iyi miti iri mu macupa ndetse n'ibikarito, iyi miti yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Iyi ni imiti, harimo ikoreshwa bayisiga harimo n'isabune, iyi miti ikozwe mu gikakarubamba iyi miti bayifashisha bavura indwara z'uruhu.

Ni isabune yo koga ndetse n'amavuta, byose bikozwe mu gikakarubamba, isabune yitwa rawe bodiwoshi, amavuta yitwa rowe bodiroshoni.

Ni umugore, uyu mugore afite akabase karimo ibihingwa bitandukanye, bimwe ni ibyatsi ibindi ni ibiti, ibi byose babyifashisha mu buvuzi gakondo.

Iki ni igiti. Iki giti ni icy'indimu kiri kwera, iki giti gikikijwe n'ibyatsi bya pasiparumu.